Mu kwirinda indwara zitandukanye dushishikarizwa gukaraba intoki mu kunoza isuku, hari ibikoresho byifashishwa indobo, ibase n'ibindi byinshi bitandukanye. Abantu cyane cyane b'igitsina gore bagirwa inama yo kwita ku isuku y'abana babo babatunganya banaboza.

Iyo abantu bahamagariwe kwitabira amahugurwa atandukanye, akenshi bashishikarizwa kwitwaza amakayi n'amakaramu, kugira ngo baze kwandika ibivugirwa muri aya mahugurwa. Ibi ni ingirakamaro bituma icyavuzwe kizirikanwa.

Iyo umuntu arwaye biba byiza iyo agiye kwa muganga akitabwaho n'abaganga babizoberewemo, akenshi indwara zo mu buhumekero zirandura, uyirwaye ashishikarizwa kwambara agapfukamunwa, kugira ngo atanduza abandi.

Ababyeyi iyo batemberanye n'abana babo birabashimisha cyane, akenshi abantu bambara imyenda yo mu mabara atandukanye umutuku, umukara, umweru, icyatsi kibisi, idoma ndetse n'andi menshi.

Muri ibi bihe tugezemo, ntabwo abantu bagikoresha amazi mabi, kera wasangaga abantu bashorerana bakajya mu bishanga kudahayo ibirohwa byo gukoresha, ariko ubu byaroroshye, hashyizweho amariba agezweho, afasha abaturage kubona amazi meza azira umuze.

Abantu bose bafite inyubako nini bashishikarizwa kugura ibikoresho bizimya umuriro, ibi ngibi iyo inkongi y'umuriro ibaye ntabwo isakara ahantu henshi, ntabwo bihenda nawe wabigura.

Umubyeyi ufite umwana, hari imirimo myinshi atifasha, burya kugira umwana ni byiza, agufasha gukora akazi gatandukanye, bityo inyungu zikiyongera. Ntabwo ari ibyo gusa ahubwo umwana aranasusurutsa, agashimisha uwamwibarutse.

Mu ngo zigiye zitandukanye, usanga abana barahawe inshingano, umwe ashobora kuba afite inshingano zo gukora isuku mu rugo, undi agomba kwita ku bikoresho byo mu rugo akabyoza, ndetse akabishyira ahabugenewe, aba bana nabo bameze nk'aho bafite umurimo wo gutunganya ibikoresho byo mu rugo.

Iyo aba mama bishimye baba barimo gukoma amashyi. Buri mutware wese w'urugo yifuza kubona umudamu we anezerewe, amwenyura. Ibi bituma abana batoya nabo babikurana mu muco mwiza.

Abana b'abanyeshuri bahora bashishikarizwa kwiga cyane. Akenshi iyo umwana yatsinze ahabwa ibihembo bitandukanye, birimo inkweto, imyenda cyangwa amakayi. Ibi bigaragaza ko ibigo by'amashuri byita ku burenganzira bw'umwana.

Ku bantu bakunda imyitozo ngororamubiri hari inzu zabugenewe, iyo uzinjiyemo usangamo ibikoresho bitandukanye, ibifasha abantu kunanura amaguru ndetse n'amaboko, ibi byose bifasha umuntu gusigasira ubuzima bwe.

Abantu benshi iyo bubatse inzu, bagorwa no guhitamo irangi bazakoresha. Abacuruzi benshi ndetse n'abubatsi, batugira inama yo kubitegura mbere. Ibi bifasha nyir'inzu gukorera kuri gahunda.

abantu cyane cyane abakuze iyo bifotozanyije birashimisha, ntabwo ari ahantu henshi dukunda kubona amafoto y'abantu barimo baseka hamwe agenda agaragara ubona ari ibintu biteye amabengeza.

Inyubako nyinshi zigeretse inshuro irenze imwe zikunda gutembererwamo n'abantu batandukanye cyane cyane abafite imodoka. Ni byiza ko mubyeyi nimba ufite umwana wawe, umutembereze amenye ahantu hatandukanye.

Ikoranabuhanga ryifashishwa ahantu henshi hatandukanye, abantu benshi bakangukiye kurikoresha kubera ko ryoroshya akazi, mu biro by'abayobozi batandukanye, uzasangamo mudasobwa ndetse n'ibindi, ibyo byorohereza ubikoresha akazi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite n'ibirahure, akenshi igaragara neza, biba akarusho iyo ahantu iri imbere yaho hateye ibyatsi, uyibonye abona ko iyo nzu isukuye pe!

Abantu babyibushye iyo bavunitse bashishikarizwa kwihutira gupfukaho agatambaro, ibi bituma ububabare bugabanuka, ni byiza ko ugana kwa muganga mu gihe ubona imvune yawe ikomeye.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakenera uturinda mavi, utu dutuma iyo baguye cyangwa se bakubitanya na bagenzi babo badakomereka bikabije, biba byiza iyo turi mu ibara ry'umukara, kuko bituma iyo twanduye kutugirira isuku byoroha.

Gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu atarwaragurika, ikindi kandi bishobora kubyara amafaranga bityo ubikora akabona inyungu, ugiye gukora iyi myitozo, agomba kugenda yambaye imyenda yabugenewe.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibintu b'ingirakamaro. Uyikora bimurinda indwara ndetse no gusaza imburagihe. Rubyiruko, babyeyi, abantu twese muri rusange, ibi biratureba mureke tubishishikarize twitegurira ubuzima bwiza.

Hari indwara nyinshi zirindwa no gukora imyitozo ngororamubiri, abantu benshi, iyo bagiye mu bikorwa nk'ibyo, bagenda bambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'inkweto zabugenewe, ibi bituma umukoro akora anyurwa na wo kandi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro, akenshi usanga uyitabiriye ahorana umubiri usa neza kandi nta n'indwara ipfa kumuzirra uko yiboneye, kwitabira ibikorwa nk'ibi ngibi birafasha n'abakuze birabareba.

Inganda zitunganya imiti, ziba zarateguye udukarito twabugenewe two gutwaramo iyo miti, ibyo bituma imiti itangirika bityo ikagera ku bo yateganyirijwe, ikibifitiye umumaro, aho uzajya ukabona ujye ugashyira ahabugenewe mu buryo bwo kubungabunga isuku.

Abantu benshi iyo tugiye kugura ibicuruzwa bitandukanye hari ibintu byinshi turebaho, bamwe bareba ku mabara, abandi bakareba ku nyuguti zanditse ku bifuniko ibyo bicuruzwa biba bifunitsemo, ibi ni ingirakamaro cyane cyane ku bantu bazi gusoma bituma basobanukirwa iby'icyo gicuruzwa.

Duhora dushishikarizwa kurya imbuto, ni ingenzi mu buzima bwacu, zifite umumaro munini, zituma ubuzima bwacu bugenda neza ndetse ntitunarwaragurike, ibi birareba cyane cyane abana bato ariko natwe abakuru ntidusigare.

Imiti myinshi ibikwa mu bikoresho byabugenewe, aho iba ifite isuku ku buryo nta dukoko twapfa kuyangiza, ibi bituma uyifata imugirira akamaro kandi bigatuma n'indwara arwaye ikira vuba, isuku ni ingenzi mureke tunoze isuku.

Hari amaduka yiyemeje kuzajya acuruza imiti ifitiye abantu akamaro cyangwa se ihabwa amatungo mu gihe yarwaye, ibi ababikora bateganya uducupa twabugenewe two kubikamo iyo miti kugira ngo itangirika.

Imiti myinshi ikorwa mu bimera, cyane cyane ibifite ibara ry'icyatsi kibisi. Duhora dushishikarizwa kwita ku bidukikije. Ibi ni ingirakamaro n'umwuka duhumeka akenshi ni wo tubikesha.

Inganda zikora imiti zashyizeho uburyo bwo gushyira ibyapa ku ducupa turimo iyo miti, aho usanga handitseho icyo iyo miti ivura cyangwa se ubwoko bw'uwo muti cyangwa ibyo ukozemo.

Hari abahanga mu kuvuza imiti gakondo, aba basigaye hake cyane muri iyi si dutuye, hari igihingwa cyitwa igikakarubamba, abenshi mu bakuze, bavuga ko ari umuti ukomeye cyane kandi uvura indwara zitandukanye.